Kampani yikorera yitwa emu endi emu ensorase ushobora kugana ukeneye ubwishingizi ikagufasha ubwishingizi bw'ikinyabiziga bwawe kugira ngo ubashe kugira icyo ubona.

Ubwishingizi buhabwa abantu, aho wishyura amafaranga make make ukabasha kugira ubwishingizi, ikinyabiziga cyakangirika cyangwa warwara bakakuvuza cyangwa bakagukoreshereza.

Ugize ejo hezo ukazigamira umwana wawe ku buryo ushobora kugira ikibazo, yamafaranga bakayamuhereza cyangwa se waba uri umusore warabikoze hakiri kare, ukagenda bagahita bayaguhereza ushobora kubaka nibwo buryo bashyizeho. Urabona ko hano rero ni urubyiruko ndetse n'abandi bari kubyamamaza rwose bari kumwe n'inzego z'umutekano niba ndi kureba neza.

Gahunda ya mudasobwa, aho ukoresha mudasobwa cyangwa terefone ubitsa amafaranga cyangwa uyabikura mu buryo butandukanye.

Izwi application ya banki yitwa Igiti bank ifasha buri munyarwanda wese wifuza gushaka konti muri iyo banki kuyikereya yibereye mu rugo.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bakoresha telefone igendanwa, ukabasha kubitsa amafaranga ukanayabikura, mu buryo butandukanye bwizewe kandi cyane. Bikoreshwa n'abantu batari bacye.

Gahunda ya konti ya banki aho ufata amafaranga ukayakura kuri telefone igendanwa ukayoherezaho kuri banki akageraho mu buryo bukoroheye.

Ahabera imyidagaduro ahantu barebera imipira, bamara icyaka bakanywa inzoga na fanta zidasindisha iminsi igakomeza kwicuma ubuzima bugenda neza.

Ishusho igaragara yuko ushobora gushaka kwishyura cyangwa mu buryo bwo ku iyo kode iri aho ngaho ukayishyira muri terefone yawe ukishyura cyangwa ukabasha kubona inyemezabwishyu.

Inzoga zitandukanye iya pirimusi igaragara ko inywebwa n'abarengeje imyaka cumi n'umunani kandi babikwiriye.

Agapapuro kagaragaza ibyo bacuruza, ibinywebwa, ibiribwa, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, ushobora kwiyakiriza wageze mu ifunguro rya mu gitondo, irya nijoro, cyangwa irya saa sita.

Aha akabari banyweramo ibinyobwa bigiye bitandukanye harimo ibisindisha n'ibidasembuye aho ibisindisha bitemerewe abana bari munsi y'imyaka cumi n'umunani n'abagore batwite.

Ahabera imyidagaduro igiye itandukanye kureba imipira y'amaguru, indirimbo banywa n'ibinyobwa bitandukanye harimo ibisindisha, ibidasindisha.

Ahacururizwa ibinyobwa bitandukanye ibisindisha, ibidasindisha abantu bagana bashaka kwidagadura, inzoga zikaba zitemerewe abagore batwite.

Inzoga bacururiza mu kabari, zinywebwa n'abafite inyota, ariko batari abagore batwite cyangwa abantu bari munsi y'imyaka cumi n'umunani, ukaba wazifashisha ufite icyaka.

Ahacururizwa ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa hatandukanye; ibisindisha, ibidasindisha, ibisindisha kenshi ntabwo biba byemerewe kunywa abana bari munsi y'imyaka cumi n'umunane cyangwa abagore batwite, kuko bibagiraho ingaruka zitandukanye.

Inzu bacururizamo inzoga, izitari inzoga n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, ibinyobwa n'ibiribwa bya amusiteri.

Ahabera imyidagaduro kureba imipira y'amaguru, kuhanywera ibisindisha n'ibidasindisha, inzoga zikaba zitemerewe kunywa abagore batwite n'abana bari munsi y'imyaka cumi n'umunani.

Urupapuro ruriho ibiciro bigiye bitandukanye by'inzoga zigiye zitandukanye, zitemerewe kunywa abagore batwite, abana batari munsi y'imyaka cumi, batari hejuru y'imyaka cumi n'umunani.

Aho usanga bacuruza ibisindisha, ibidasindisha; hatemerewe kujya abana bari munsi y'imyaka cumi n'umunani cyangwa abagore batwite kuko byabagiraho ingaruka.

Ahabera imyidagaduro, kureba televiziyo, imipira y'amaguru, indirimbo, hacururizwa ibyo kunywa, inzoga, fanta, n'ibindi bidasindisha bitandukanye.

Igipapuro baguha kiba gikubiyeho ibyo iduka rimwe na rimwe ricuruza, ibyo kurya, uko babitangira n'ibiciro byabyo bakunze kubitanga bari kukubaza icyo uri burye bakikuzanira.

Aho usanga bacuruza ibyo kunywa ibyo kurya, mu masaha atandukanye, abantu babagana bashonje cyangwa bafite inyota, bakahava iyo nyota yagabanutse mu masaha atandukanye.

Ikinyobwa cya Bralirwa kinyobwa ningeri zitandukanye kikaba kitemerewe kunywebwa n'abagore batwite abana batarengeje, batari munsi y'imyaka cumi n'umunani.

Ahacuruzwa ibinyobwa bitandukanye ibisindisha, ibidasindisha mu buryo bukurikira: Inzoga zisindisha ntizemerewe kunywa abagore batwite ntabonere munsi w'imyaka cumi n'umunani.

Icyuma gikoreshwa urimo urishyura ku ikarita amafaranga akavaho wakoresheje ugura ibicuruzwa ukagikozaho amafaranga akavaho uko yakabaye yose.

Agapapuro kandikwaho ibiciro, ubwoko bw'inzoga buruzwa.

Ibinyobwa, ikinyobwa gisindisha kitaba cyemerewe kunywa umugore utwite cyangwa umwana utujuje imyaka cumi n'umunani y'ubukure.

Urupapuro rugaragaza ibiciro by'inzoga bacuruza bitewe n'ingano wankweye muburyo butandukanye muri aka kabari k'ibinyobwa.

Ahacururizwa ibinyobwa bitandukanye, harimo ibisindisha ibidasindisha, n'uburyo by'umwidagaduro, bakurikirana imipira y'amaguru bagira ngo banezeze ubwonko bwabo.

Aho usanga baranguza ibyo kunywa by'inganda zitandukanye harimo za sikoro, mitsingi, usanga baranguza ku giciro gito.

Aho usanga mu masaha atandukanye haba ayo mu gicamunsi aya mugitondo bafatira icyo kunywa icyo kurya uko bwije nuko bukeye.

Icyapa kigaragaza ko bacuruza ibyo kurya, ibyo kunywa hitwa kwa Antheri Fanny bigira intungamubiri zigiye zitandukanye.

Ikinyobwa kinkwebwa n'abatarengeje n'abatari munsi y'imyaka cumi n'umunani, cyangwa abagore batwite, kikaba kinkwebwa bari gusabana bashaka ibyishimo cyangwa bafite imyota.

Ahabugenewe utunga telefone, ukabona aho uribwishyure amafaranga y'aho wanywereye cyangwa waririye, ugurira inshuti n'abavandimwe mwazanye aho hantu.

Aho bacururiza inzoga zigiye zitandukanye izisindisha mukaba waharebera imipira y'amaguru imyidagaduro bakidagadura bakanezerwa.

Aho usanga mu masaha ya nijoro abantu bareba n'amashusho y'imyidagaduro, cyangwa se banywa n'inzoga.

Ahabugenewe habera imyidagaduro ibyo kunywa, ibisindisha n'ibidasindisha haba hari aho barebera imipira y'amaguru, ugerageza kwishima ubuzima bugakomeza.

Aho usanga bari gufatira ibyo kurya, ibyo kunywa, ibisindisha, ibidasindisha, uko amasaha agenda akurikirana niko abantu bagenda bakurikirana kujya aho hantu.

Aho batanga inzoga, icyo kunywa n'imyidagaduro itandukanye. Aho abantu benshi bahurira bari kuganira ibintu bitandukanye yaba inzoga, ibyo kunywa bindi bitandukanye.

Agapapuro kagaragaza ibyo wanyoye, ibyo wariye uri mu ahacururizwa inzoga uri kwidagadura mu buryo butandukanye n'inyemeza bwishyu.

Ahacururizwa ibyo kurya n'ibyo kunywa mu buryo bw'imyidagaduro bajya kurebera imipira y'amaguru bakanywa bagataha bafite ibyishimo bitandukanye.

Bahamasi bapu ni izina ry'akabari kikorera gacuruza ibisindisha bitemerewe kunywa abana bari munsi y'imyaka cumi n'umunani abagore batwite.

Ahacururizwa ibyo kunywa bisindisha n'ibidasindisha, n'imyidagaduro ushobora kurebera imipira y'amaguru, ukanywa inzoga, ariko zikaba zitemerewe abana bari munsi y'imyaka cumi n'umunani.

Ahacururizwa inzoga za kampani ya burarirwa, zitemerewe kunywa abagore batwite n'abana bari mu nsi y'imyaka cumi n'umunani.

Ahacururizwa ibinyobwa bisindisha ibidasindisha, n'uburyo bw'imyidagaduro bareba imipira y'amaguru bagira ngo babone ibyishimo mu buryo butanduknye.

Aho bakora ibijyanye no kwita ku mamodoka afite uburwayi, bagahaga amapine n'ibindi bitandukanye bigendanye n'imodoka cyangwa bakagurisha ibigize imodoka.

Aho usanga bacuruza ibinyobwa bitandukanye ku buryo usanga abantu ariho bagiye gushakira ibyishimo bacuruza inzoga, ibyo kurya n'ibindi bitandukanye.

Inzoga inywebwa n'abantu batandukanye ikaba itanywebwa n'abana bari munsi y'imyaka cumi n'umunani cyangwwa abagore batwite ikaba iryoha.

Ahabera imyidagaduro igiye itandukanye harimo kureba match, kwica indwagasi y'icyaka, harimo kunywa ibisembuye n'ibidasembuye waba udafite n'inzara ukafatira ibyo kurya.

Ahacururizwa inzoga z'amaoko atandukanye zitemerewe abagore batwite, abana bari munsi y'imyaka cumi n'umunani, zigahabwa abazigenewe.

Agapapuro kaba kandiditseho inzoga n'ibindi bitandukanye ibiciro byabyo mu buryo butandukanye baba bakubwira ngo wihitiremo icyo ufata mu buryo butandukanye.

Ahacururizwa ibinyobwa bitandukanye ibisindisha ibidasindisha. Ibisindisha bitagenewe abagore batwite n'abana bari munsi y'imyaka cumi n'umunani

Ahacururizwa ibinyobwa bitandukanye haba ibisindisha ibidasindisha umuntu agana afite inyota agira ngo yice ingwagasi y'inyota, bitandukanye byinshi.

Igipapuro kigaragaza ibinyobwa, ibisindisha, ibidasindisha, ibiribwa amafaranga bigura bigiye bitandukanye ushobora kwaka bakabikuzanira aho ngaho.

Ahacururizwa inzoga z'ubwoko butandukanye ibinywebwa ibiribwa inzoga zitemerewe abagore batwite n'abana bari munsi y'imyaka cumi n'umunani yego.

Urupapuro rugaragaza ibiciro by'ahacururizwa ibyo kunywa biri mu moko atandukanye bitewe n'ibyo ushaka ibitemerewe abagore batwite n'abana bari munsi y'imyaka cumi n'umunani.

Urupapuro rugaragaza inzoga, amafaranga zigura cyangwa n'ibindi bitandukanye, n'uko no mu gihe bafungurira, igihe bafungira, murakoze.

Inyemezabwishyu igaragaza ibyo wakoresheje urya, unywa cyangwa ugurira inshuti n'abavandimwe, igaragaza ayo ugomba kwishyura wanywereye cyangwa waririye.

Aho usanga bategura ibinyobwa bitandukanye, harimo ikawa, harimo n'ibindi binyobwa binywebwa n'abantu batandukanye n'ingeri zitandukanye, wasanga ahantu ari aho ariho hose hakwegereye.

Aho barebera imipira y'amaguru, bakahanywera inzoga, ibidasindisha bagira ngo bidagadure mu buryo butandukanye bwinshi.

Ahacururizwa imyambaro n'inkweto, n'ibindi byambarwa ku mubiri w'umuntu akaberwa, akarimba ni byo.

Ubucuruzi bucuruza imyenda ya gakondo iyo mu rwanda mu ndimi z'amahanga bavuga ngo ni made ini rwanda iyo akaba ari imyenda mu rwanda twikorera.

Imodoka zigiye zitandukanye zigurishwa, akaba akorerwa ubucuruzi bw'amamodoka, bakaba batanga imisoro kuri Leta kugira ngo igihugu cyiyubake, n'ibigo byabo bimere neza.

Uburyo bwo gufasha ibinyabiziga haba kubisana, kumenya ibibazo bifite, kubiha ibyangombwa n'imodoka zigurishwa mu buryo butandukanye n'ibice bitandukanye.

Ikigo kikorera kitwa akagera motozi, gicuruza amamodoka hirya no hino mugihugu yujuje ubuziranenge, ukaba wagurayo imodoka.

Imodoka ya mbenzi merisadesi bigaragara yuko iri ku isoko ibiciro igurishwaho biriho n'igihe umwaka yakorewe, n'imbaraga zayo.

Ikigo kikorera cyitwa akagera motozi kizwiho gucuruza imodoka hirya no hino mu gihugu inshyashya zujuje ubuziranenge zikanazikora mu buryo bumwe cyangwa ubundi.

umuntu ubara amafaranga agiye atandukanye akoresheje icyuma, asa n'aho akora ububiko bwayo, ayatanga cyangwa avunja, avunjisha.

Ahatunganyirizwa amata n'ibyuma biyakonjesha kugira ngo agumane ubuzirantenge bwayo, umwimerere n'intungamubiri zifasha umubiri kumera neza.

Ahatunganyirizwa ibikomoka ku mata y'inyange, amazi y'inyange, icyo kunywa nk'imitobe n'amandazi akoze mu ifarini bifite intungamubiri.

Ibikomoka ku mata meza atunganyije kandi bifite intungamubiri ku mubiri, bituma iyo ubinyweye umera neza ukagira ejo hazaza hafite ireme.

Ahatunganyirizwa amata n' ibiyakomokaho, aho ashyirwa mu cyuma kiyatunganya kikayakonjesha kugira ngo agumane umwimerere wayo n' intungamubiri zifasha umubiri kumera neza.

Ahayatunganyirizwa amata n'ibindi biyakomokaho aho akonjeshwa kugira ngo abashe kugumana intungamubiri, n'ubuziranenge abayanywa agira icyo amumarira mu buryo umwe cyangwa ubundi.

Ahatunganyiriza amata meza akanagurishwa, mu ngano zitandukanye ahabwa abakiriya bayakeneye uburyo bwinshi kugira ngo abagirire akamaro.

Amata n'ibyo kurya by'ubwoko butandukanye bikomoka ku mata ushobora kurya ukagira intunga mubiri mumubiri wawe.

Isambusa zikozwe mu nyama, amavuta, ifarini zikaba zikungahaye ku ntungamubiri zitandukanye kuko zongera imbaraga n'ibindi byinshi.

Ahatunganyirizwa amata cyangwa ahakacururizwa n'ibiyakomokaho akaba asa neza atunganyije afite isuku bikaba binayakonjesha kugira ngo amare igihe n'iminsi.

Ahatunganyiriza amata n'abakiliya bahasanga bahagura, hirya hakaba hari igiti, igiti kizana igicucucucu mu murima.

Amata meza atunganyije, ari mu gikombe ategereje kunyobwa n'uyashaka, ufite icyayaka. Akaba afite intungamubiri nziza ku mubiri w'umuntu cyane.

Ahatunganyirizwa amata n'ibindi byo kunywa bigiye bitandukanye, bifite ubuziranenge butagereranywa, byinshi bitandukanye mu biciro binshi.

Amata ari mu byansi atunganyije ateretse kugira ngo amere neza agumane umwimirere wayo n'intungamubiri za buri kumwe.

Igikoresho cyabugenewe gushyirwamo amata kugira ngo agumane umwimerere wayo, ntiyangirike mu gihe kinini agumane intungamubiri zihagije.

Ahacururiza ibikomoka ku mata, n'ibindi binyobwa bitandukanye, biryoshye, bifite intungamubiri ihagije mu mubiri, uramutse ubifashe byagira icyo bikumarira mu mubiri wawe, mu buzima bwa buri munsi.

Aho bacuruza ibikomoka ku mata n'amata ubwayo atunganyije neza, yabugenewe, aryoshye kandi afite ubuziranenge.

Ahatunganyirizwa amata n'ibindi biyakomokaho rukorwa n'uruganda Inyange akonjeshwa kugira ngo agirane umwimerere wayo agumane intungamubiri.

Aho usanga batunganya amata, bayakonjesha kugira ngo atangirika, agumane ubuziranenge bwayo, abashe kumara igihe kirekire, anywebwe.

Keke iri kuribwa n'umuntu ugaragara ko afite inzara yashakaga kugira icyo yongera mu mubiri we cy'intungamubiri, ziyongere zibe nyinshi.

Isambusa zikozwe n'ifarini, ibirayi zitari zajya mumavuta kugira ngo ziryohe, zigire intungamubiri kurushaho kuriya zimeze.

Ahacururizwa amata, atunganyije neza aryoshye, afite intungamubiri zagirira umubiri akamaro.

Isambusa zikoze mu nyama n'ifarini bagashyira mu mavuta ziraryoha zifite intungamubiri zigiye zitandukanye zifasha umubiri kumera neza mu buryo bwinshi.

Ahacuruza ibyo kunywa harimo amata, icyayi, n'ibindi bikomoka ku mata, icyayi, n'ibindi bikomoka ku mata ibyo kurya bifasha umubiri w'umuntu kumera neza, akagira igihinduka, aki intungamubiri zikiyongera.

Aho usanga bata ba bacuruza amata, ibiyakomokaho, ibinyobwa bitandukanye, by'uruganda rw'inyange cyangwa izindi nganda zitandukanye.

Aho usanga bacuruza ibinyobwa bitandukanye ibikomoka ku mata n'ibindi binywebwa biba bifite intungamubiri zitandukanye zagirira umubiri akamaro.

Amandazi ari mu ndobo ari ahagana aho batunganyiriza amata yo kunywa ameze neza afite intungamubiri zihambaye ku mubiri w'umuntu.

Ahatunganyirizwa amat akanahacururizwa hakaba hari icyuma gikonjesha amata kugira ngo agumane ubuziranenge bwayo, intunamubiri, zagenewe abayanywa hirya no hino mu gihugu.

Ahatunganyirizwa keke, amata yo kunywa afite intungamubiri zitandukanye hirya no hino mu mubiri.

Igikoresho gitunganyirizwamo amata agakonjeshwa kugira ngo agumane ubuziranenge bwayo n'intungamubiri ziyagize za buri munsi.

Ahatunganyirizwa amata n'ibiyakomokaho bikorwa n'uruganda inyange, ruyakonjesha kugira ngo agumane umwimerere wayo n'intugamubiri.

Aho bacuruza imiti y'indwara zitandukanye n'imyenda cyangwa se bacuruza amata n'ibindi bintu bitandukanye mu maduka atandukanye.

Abantu bishimye bari gusangira amata bari gusomeza n'imigati muburyo butandukanye bagaragaza ko baryohewe n'ubwoko bari kunkwa kandi banezerewe.

Amandazi akoze mu ifarini ahiye ameze neza, bashyira mu mavuta akaryoha akuzuza intungamubiri zigize umuntu ku buryo butandukanye.

Ahacururizwa icyayi, igikoma, capati, n'amandazi, byo kunywa, kugira ngo wumve mu mubiri hari ikigiyemo, bagira n'ibindi bitandukanye byatuma umera neza mu mubiri wawe.

Amandazi akozwe mu ifarini n'amavuta akaba aryoha, afite intungamubiri zitandukanye zongera imbaraga mu mubiri w'umuntu.

Ahatunganyiriza amata n'ibiyakomokaho, akaba akonjeshwa kugira ngo amare iminsi ameze neza ntacyahinduye, afite intungamubiri nziza kandi zihagije ku mubiri w'umuntu.

Ahacururizwa ibinyobwa bitandukanye bikomoka ku mata, ku mbuto, byose bikorwa n'uruganda Inyange, binyobwa kandi biryoshye.

Ahacururizwa amata, ibyo kunywa bitandukanye hatarimo ibisindisha, bacuruza amandazi, capati, n'imigati.

Ahacururizwa amazi azwi ku izina rya jibu, atunganyije neza, aho aba asukuye, afite intungamubiri, azira umwanda cyangwa izindi ndwara.

Ahatunganyirizwa amata mu buryo bw'umwimerere butandukanye kugira ngo agere kubayashaka atunganye ameze neza afite intungamubiri.

Ahatunganyirizwa ibinyobwa bitandukanye bikungahaye ku ntungamubiri harimo amata, icyayi, ikawa n'ibiribwa byongera imbaraga mu mubiri bigiye bitandukanye.

Ahacururizwa ibikomoka ku mata, ibinyobwa bitandukanye bidasindisha, ibiribwa harimo amagi n'ibindi bifite intungamubiri ku mubiri w'umuntu byiza

Amapaki ane imwe irimo amakeke indi irimo amandazi. Bigiye bigabanyije mu buryo bubiri atandatu na cumi na kabiri.

Ahacururizwa ibinyobwa bitandukanye abakiriya bagana bafite inzara, bagataha yashize mu buryo bukurikira: kurya,

Ibi ni ibi nyobwa by'abana bifunikishije umufuniko, ibara ry'umuhondo biri mu icupa rizamuye, harihoamagambo y'umukara.

Inkongoro zitunganyirizwamo amata bayabuganizamo kugira ngo ntiyangirike akomeze gukonja agumane umwimerere wayo.

Ubucuruzi bw'amata n'ibiyakomokaho mu iduka bigaragaza ko bacuruza ibinyobwa byinshi bigiye bitandukanye by'umwimerere byiza.

Ahatunganyirizwa amata akanahacururizwa hari abantu babagana bafite inyota bagataha yashize n'ibiyakomokaho akaba afite intungamubiri zitandukanye.

Ibiribwa bitandukanye abantu bafata mu masaha atandukanye, ushobora kubisanga ahantu hatandukanye bitewe n'icyo ushaka kurya, amasaha ugishashakira, uburyo bugiye butandukanye.

Capati zitunganyije zikozwe mu ifarini n'amavuta, zikaba zifite intungamubiri zigiye zitandukanye zifasha umubiri kumera neza, utunyangingo tw'umubiri tugakura mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu minsi mike.

Aho bacuruza amata n'ibiribwa bitandukanye byo kuyasomeza harimo amandazi, keke, capati, akenshi ayo mata agashobora kuba akonje kuko bayakonjesheje.

Amata, icyuma gitunganya amata kikayakumirira umwimerere wayo wa buri munsi, intungamubiri zikiyongera nyinshi.

Ahatunganirizwa amata n'ibindi byo kunywa bitandukanye, bitunganyije neza bifite intungamubiri ku mubiri ihagije, ifite icyo yakumarira nawe ubwawe.

Inkongoro zitunganyirizwamo amata, bakayacunda kugira ngo amere neza agere ku bakiriya agifite umwimerere wayo, intungamubiri umubiri ukeneye.

Uburyo bwashyizweho bw'ikoranabuhanga wishyura amafaranga akava kuri banki cyangwa akajyaho wibibereye mu rugo utavuye aho ukoresheje mudasobwa yawe.

Uburyo bw'ikoranabuhanga, aho wishyura ukoresheje terefone yawe cyangwa ugahabwa ubundi bufasha utavuye aho uri ukoresheje mudasobwa kuri banki mpuzamahanga.

Uburyo bw'ikoranabuhanga, aho wishyura ukoresheje telefone igendanwa, ukagira n'ubundi bucuruzi ucuruzamo amafaranga akunguka, uyabitsa bakakungukira mu gihe runaka.

Uburyo bw'ikoranabuhanga aho wishyura ukoresheje mudasobwa cyangwa telefone igendanwa, ukagira ibikorwa wishyura ukabasha kugira ibyo wakira.

Uburyo emutiyene yashyizeho ushobora kugura amayinite cyangwa mu rurimi rw'amahanga, bando za interineti udahezwe mu buryo bukoroheye ukabasha gucatinga.

Igipapuro kigaragaza imisoro umuturage bitewe n'ubucuruzi akora, umusoro agomba gutanga akubaka igihugu n'ibindi bikorwa remezo binyuze mu misoro.

Igipapuro kigaragaza uburyo ikigo cyikorera mu rurimi rw'amahanga nka buzinesi, kigaragaza uko amafaranga yagiye yishyurwa ikintu kimwe cyangwa ku kindi byagiye bikurikirana muri iki kigo cyikorera.

Uburyo buri interinasiyonari, aho amafaranga uko yagiye agabanya agaciro, nuko akongera, babikwereka hariya wajya kuyavunjamo bigakunda.

Amafaranga y'inoti za bitanu, zivanze n'izigihumbi, abarwa n'abacuruza uburyo butandukanye, akoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda.

Inoti y'amafaranga magana abiri y'igihugu cya Congo hashushanyijeho abagabo bari guhinga, akaba ariyo note bakoresha bahaha.

Ibiceri by'amafaranga yo hanze y'igihugu, aho byari biri hariya bategereje ko babivunjamo amanyarwanda, akabasha kugira icyo agura mu gihugu bwite.

Amafaranga duhabwa n'abanyamahanga baje gusura ibyanya by'inyamaswa cyangwa amashyamba meza atatse u Rwanda nk'igihugu cyacu.

Ibigaragara hari amafaranga yo mu bihugu bitandukanye, aha ngaha bakaba bakora igikorwa cyo kuyavunjisha mu manyarwanda cyangwa mu yandi, mu kindi gihugu.

Uburyo bwo gufata amafaranga y'ibindi bihugu ukabasha kuba wayavunjamo ayo mu gihugu cyawe bikaba bikorwa na banki zitandukanye.

Amafaranga y'amanyamahanga aho avunjishwa, igeze kure kuko aho batanga ubufasha bwo kuyavunjisha bagahindura abanyarwanda cyangwa bakahinduramo ayo mukinindi gihugu bagiyemo.

Ahatangirwa ubufasha ku bigendanye n'amafaranga y'amanyamahanga aza mu Rwanda cyangwa ushaka kwishyura amafaranga hanze ugahabwa ubufasha akavunjisha n'ubundi bufasha bujyanye n'ibyo ng'ibyo.

Ahazwi nko kuri banki nkuru y'igihugu aho batanga ubufasha bwo gufata amafaranga y'amanyamahanga bakayavunjishamo amanyarwanda cyangwa bagafata amanyarwanda bakayavunjishamo amanyamahanga.

Ahabera kuvunjisha amafaranga y'abanyamahanga bayahinduramo amanyarwanda cyangwa ibindi bihugu bitandukanye bahinduramo ivunjisha.

Ahatangirwa ubufasha bwo gufata amafaranga ukuye mu kindi gihugu ukayavunjisha, ukayahindura mu gihugu cyanyu mu buryo buboroheye.

Uburyo bw'intebe, utubati, uburiri n'ibindi bitandukanye bikoze mu mbaho n'umwenda bibazwa bigakorerwaho ibintu bigiye bitandukanye.

Intebe n'ameza bitunganyirijwe aharirwa ibiryo bya nijoro byo mu bya saa sita bifite intungamubiri ku mubiri.

Ubucuruzi bw'intebe zitandukanye, ameza bigiye bikoze mubikoresho bitandukanye bikenerwa kwicaraho, kuriraho no kuryamaho.

Intebe zikorwa mu mbaho zitegurwa aha mu ruganiriro cyangwa aharirwa ni mu hafatirwa amafunguro zikaba zifite isuku uburyo bwizewe kandi bwiza.

Ahazwi nko mu ibarizo aho bacura intebe, ameza n'ibindi bikoresho by'imbaho bikoreshwa mu nzu, mu byumba no muri ruganiriro.

Ibizwi nk'amacumbi cyangwa hotel basohokeramo bashaka kwishimisha aho bafatira amafunguro n'ibinyobwa bashaka no kuryama bakaharara, n'indi myidagaduro itandukanye.

Ahazwi nko mu ndimi z'amahanga babyita hotel aha aho baryama, bakahafatira amafunguro, bakishimisha mu buryo butandukanye, bakwishyura amafaranga bitewe n'ibyo bakoresheje.

Ahabugenewe hatangirwa amafunguro, hakarara abantu, umuntu akagira ubizima bwiza, ubuzima bugakomeza. Haba hafite isuku, batanga ibiryo biryoshye n'ibindi bigiye bitandukanye.

Imbuto na ji byo kunywa bitunganyije harimo imineke, inanasi bifite intungamubiri zitandukanye zifite akamaro kenshi.

Ahazwi mu rurimi rw'amahanga nka Hotel, aho bakorera inama, biga ku bintu bigiye bitandukanye byagirira igihugu akamaro, cyangwa ubucuruzi bakoramo.

Ikigo kikorera gitanga ubwishingizi kubantu no kubintu aho wishyura amafaranga bakagufasha wagira ikibazo ubwishingizi wishyuye bukakugoboka.

Aho batangirwa ubwishingizi kubantu bishyura ukishyurira kwivuza ufite ikibazo cyangwa ubundi bufasha butandukanye.

Ahatangirwa ubwishingizi bw'ibintu bitandukanye akenshi ni ku bantu kugira ngo ahazaza bizere ubuzima bwabo umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye.

Uburyo bw'ubwishingizi bw'ikigo cyikorera aho ujya gusaba ubwishingizi bw'ibinyabiziga ubuzima n'ibindi bicuruzwa byawe kugirango bibe birinzwe bitekanye.

Company yikorera yitwa Radiant itanga ubwishingizi ku binyabiziga, ku bantu kugirango ngo bibe birinzwe isaha n'isaha bizakenerwaho.

Agapapuro kagaragaza amategeko namabwiriza umuntu ugiye gufata ideni ashobora kubanza agasoma agasobanukirwa mbere yo gufata ideni mu buryo bumworoheye.

Gahunda y'ibigo byikorera bivugana n'abaturage bikabasha kubaha inguzanyo bitewe n'imishinga bafite bakibeshaho bakazagenda bishyura gake gake mu minsi mike.

Ikigo cyikorera gifasha urubyiruko kubaha inguzanyo bakareba uko bakite bakibeshaho mu buryo butandukanye, bakabereka imishinga bafite bakayibafashamo kugira ngo yunguke.

Uburyo bwa banki bafasha abaturage kubaha inguzanyo kugira ngo bahange imirimo bikorere, biteza imbere, bagire ubuzima bwiza.

Ahazwi nk'isoko bacuruza ibintu bitandukanye, harimo ibiribwa, amashu, imboga n'ibirayi bigira intungamubiri ku mubiri.

Ubucuruzi bw'amafi hirya no hino, aho baroba amafi ukabasha kuyacuruza, ukayatunganya bakayaha abaturage bayakeneye bose bakibeshaho.

Aazwi nko mu isoko hacuruzwazwa ibiribwa bitandukanye, imboga, inyanya, intoryi, karoti ibyo byose bigira intungamubiri zikomeye uwabiriye agira ubuzima bwiza.

Ahazwi nk'isoko hacururizwa ibiribwa bigiye bitandukanye, harimo; inyanya, karoti, amashu, ibitunguru, intoryi, ndetse n'amapapayi n'ibindi...

Uburyo bwa MTN ifasha abakiriya batandukanye bayo mu bikorwa bitandukanye byo kunoza itumanaho ryayo mu gufasha abakiriya.

Uburyo bwo kwishyura ibicuruzwa ku ikoranabuhanga, bumwe cyangwa ubundi, ukoresheje telefoni igendanwa irimo mu mudasobwa utavuye aho uri, uburyo bukoroheye.

Uburyo bwo kwishyura ukoresheje mobayiro mani aho wishyura nta n'icumi bagukase kuko wishyura kakagenda umuntu uburyo bwashyirwa na emutiyene mu gufasha abakiriya bayo.

Akazu ka MTN na Airtel, aho abaturage bafashirizwa mu kugura amayinite ,kubitsa amafaranga, kuyabikura n'ibindi.

Umutaka w'abakozi ba MTN aho batangiramo ubufasha butandukanye kubitsa amafaranga, kuyabikura, kubagurisha ama simucadi no gucuruza ama inite yo guhamagara .

Akazu ka emutiyene aho bafashirizamo abakiriya bayo kubitsa amafaranga kuyabikura kubandikishaho amasimukadi ku marangagamuntu yabo.

Ishami rya emutiyeni ryakira amafaranga rikanayabikuza, rikaba ricuruza simukadi, rikazigurisha, ukaba wanabagana ushaka kongera kugura indi simukadi ya kabiri, iyambere wayitaye cyangwa wayobeje amafaranga.

Akazu ka MTN, gatangirwamo amayinite ka kaba gakorerwamo ibikorwa, byo kubikura amafaranga no kuyabitsa, kugura simukadi n'izindi serivisi MTN ifasha abakiriya bayo.

Abakozi ba emutiyeni bakora mu bigo bitandukanye harimo gutanga amayinite, kubikura amafaranga, gucuruza simukadi gufasha abakiriya bayigannye bafite ibibazo bitandukanye.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bushobora gukoresha za telefoni zabo, za mudasobwa, bahererekanya, cyangwa bareba fagitire cyangwa inyemezabwishyu kugira ngo babashe kugaragaza ibyishyuwe.

Umutaka wa emutiyeni ukorerwamo abakozi bayo batanga ubufasha bugiye butandukanye, kubitsa amafaranga, kuyabikura, kugura simukadi no guswapisha.

Aho usanga bari gutanga uburyo bwo gutanga ama simukadi cyangwa se amafuragiro bari gutanga poromosiyo kubigendanye n'itumanaho.

Akazu ka MTN bacururizamo simukadi, amayinite, babikurizayo amafaranga bakanayabitsayo, bakanafashiriza abakiriya mu buryo butandukanye kubabarura n'amasimukadi yabo.

Uburyo bw'ikoranabuhanga emutiyene ifashamo abakiriya bayo, mu kubitsa amafaranga, kuyabikurira , kubarura amasimukadi bayashyira ku marangamuntu yabo bitandukanye.

Ahatangirwa ubufasha bwo kugura simukadi za emutiyeni, kubitsa amafaranga, kuyabikura, n'ubundi bufasha bugendanye n'umurongo wa emutiyene.

Akazu ka emutiyeni gatangirwamo serivise zitandukanye kakaba gafunze abagakoreramo bakaba batari baza, ukaba wagurirayo amayinite ukabikuza ayandi cyangwa ukagura simukadi.

Uburyo Mtn ifasha abakiriya bayo ibabikuriza amafaranga, iyababikiriza, ibagurisha simukadi, ibarura simukadi zabo ku marangamuntu mu buryo bugiye butandukanye.

Uburyo bwa emutiyeni yashyizeho igifashirize abakiliya bayo ahantu hatandukanye, ikabegera kugira ngo ibibazo bafite ibikemure vuba kugura simukadi.

Akazu ka eyateli mani ushobora kujya kuguramo amayinite, akabitsa amafaranga, ukayabikuza, ukagura simukadi, n'ibindi bibazo waba ufite bakabigukemurira.

Umutaka ukoreramo abakozi ba emutiyeni batanga aayinite, babitsa amafaranga, bayabikuza, bagurisha simukadi n'izindi abakiriya babo bakeneye.

Akazu batangiramo ama inite cyangwa ukabikuza amafaranga ukanayabitsa ukaba wanahagura simukadi n'ibindi bibazo waba ufite bijyanye n'itumanaho k'umurongo wawe.

Uburyo emutiyene yatangije wishyura amafaranga kuri terefone, ukoresheje cyangwa mudasobwa batagize amafaranga na make bagukata wohereza.

Ahacururizwa ibinyobwa bitandukanye, ibisindisha, ibidasindisha, ubu akaba ari uburyo bwo kwishyura bakoresheje telefone batabasabye igciro na gitoya.

Akazu ka MTN bacururizamo ama inite batangiramo simukadi babikurizamo amafaranga ukaba banagufasha kuyabitsa n'ibindi byose bigendanye n'ikoranabuhanga rya MTN.

Uburyo bwo kwishyura ku ikoranabuhanga ukoresheje terefone cyangwa mudasobwa, ugahabwa igicuruzwa, ugahabwa n'inyemezabwishyu ko wishyuye kandi byagenze neza kuri nyirigicuruzwa.

Aho emutiyeni itangira ubufasha hirya no hino, gura ama inite, kubitsa amafaranga, kuyabikura, kugura simukadi n'ubundi bufasha.

Akazu ka emutiyeni, gatangirwamo ibintu bitandukanye; amayinite, kubitsa cyangwa kubikura amafaranga, kugura simukadi, n'ubundi bufasha buhabwa abakiriya ba emutiyeni.

Uburyo bwo kugura amayinite, ukoresheje telefone yawe utiriwe uyohereza kuri telefone, uyiguriye kuri Mobile Money, ni uburyo bworoshye kandi bwizewe.

Uburyo bwo kugura ibicuruzwa ku ikoranabuhanga, ukoresheje telefoni cyangwa mudasobwa, bikakugeraho aho wibereye mu gihe gito byihuse kandi vuba.

Ahatangirwa ubufasha butandukanye bw'ikigo cya Emutiyene harimo kugura simukadi, kuzigurisha, hakazamo no gufasha abakiriya mu bindi bintu bigiye bitandukanye by'itumanaho.

Akazu ka emutiyene bacururizamo amayinite, batangiramo simukadi n'izindi serivise zitandukanye; ukaba wabagana bakagufasha mu buryo butandukanye bw'ikoranabuhanga.

Akazu ka emutiyeni n'aka eyeteri byegeranye bikora ibintu bigiye bitandukanye kugurisha simukadi, kubitsa no kubikura mafaranga no gufasha abakiriya bayo mu bindi bintu bitandukanye.

Uburyo bwo gukoresha itumanaho rya mtn ukaba wahabwa ibihembo byo gutsindira igare n'ibindi bitandukanye wakoresheje mtn.

Akazu ka emutiyene batangiramo amayinite, gucuruza simukadi, kubitsa amafaranga, kuyabikuza n'ibindi bitandukanye bigendanye na tigo cyanga eyateri.

Aho bagurisha amayinite bakagurisha na simukadi za emutiyeni mu buryo butandukanye n'ibindi bibazo byose bigendeye ku murongo w'itumanaho emutiyeni bakaba bagufasha bakaguha serivise nziza.

Akazu ka emutiyene gatangirwamo ibintu bitandukanye kugurisha simukadi, kugura amayinite, kubitsa amafaranga, kuyabikura n'ibindi bigiye bitandukanye bigendanye na emutiyene.

Uburyo bw'ikoranabuhanga wishyura ukoresheje telefone igendanwa bukoroheye batagezaho amafaranga bagukata, bikaba byorohereza uwohereza amafaranga akabona inyemeza bwishyu.

Ubutumwa bugufi bugaragaza ko Fabrice Hakuzimana yishyuye amafaranga ku ikoranabuhanga yishyura igicuruzwa aguze.

Uburyo emutiyene yashyizeho bwo kwishyura amafaranga kuri telefone, ukoresheje uburyo batagira amafaranga na make bagukata waba wishyuye.

Uburyo bwa mtn, itangamo ibikorwa bitandukanye: harimo kugura ama inite, poromisiyo momo yahaye abakiriya bayo abitwaye neza ikabaha ama inite menshi.

Ahatangirwa amasimukadi, ukabikuza amafaranga ukanayabitsa n'ibindi bibazo bijyanye na emutiyene ku buryo bagufasha ikibazo cyose waba ufite kijyanye na emutiyene.

Akazu ka emutiyeni kegeranye n'aka eyateri, batangiramo ubufasha bugiye butandukanye, kubitsa amafaranga, kuyabikura n'ibindi bigiye bitandukanye bya buri munsi.

Uburyo bwo gukoresha terfone igendanwa, wishyura kuri momo peyi kugira ngo batagira amafaranga bagukata wakira cyangwa wohereza.

Akazu ka MTN batangiramo ibikorwa bitandukanye, kwakira amafaranga, kuyabitsa kuri telefoni, kugurisha simukadi n'ibindi bitandukanye bigendanye na serivisi za MTN.

Akazu ka MTN bacururizamo ama inite y'itumanaho ya telefone kugirango abantu babashe gukominikana bumvikana muburyo butandukanye yego.

Aho batanga ubufasha kuri emutiyeni n'itumanaho.

Akazu ka emutiyeni, gatagirwamo amayinite, ukabikirizaho amafaranga, bakagufasha kuyabikura, n'izindi zitandukanye, harimo ibibazo bigendanye na emutiyene ubwayo.

Akazu emutiyene ikoreramo ibikura amafaranga, ibitsa, igurisha simikadi, ibarura amasimukadi ku marangamuntu y'abantu no kubafasha mu bundi buryo.

Uburyo bw'ikoranabuhanga, aho ugira ingohe zawe zikakugeraho aho uri, utavuye iwanyu mu buryo bukoroheye.

Ikigo cyikorera cyitwa vuba vuba, aho ugura ibintu ku ikoranabuhanga bakabikugezaho mu gihe kitarambiranye, mu gihe gitoya byizewe kandi vuba.

Ikigo cyikorera cyitwa Vuba vuba kigemura ibintu ahantu hagiye hatandukanye, wibereye mu rugo ukabigura ku ikoranabuhanga bikakugeraho vuba cyane.

Uburyo bw'ikoranabuhanga aho ugura ikintu kuri terefoni ngendanwa, cyangwa kuri mudasobwa aho ugura ikintu, kikagusanga aho uri utavuye iwanyu mu mugihe gito.

Ikigo cyikorera cyitwa wan fasita delivari gifasha abaturage kugura ibintu ku mbuga nkoranyambaga bikabasanga aho bari batavuye mu rugo kandi vuba.

Ikigo cyikorera cyitwa safi kigemura ibicuruzwa hirya no hino mu gihugu, aho ubigura ku buryo bw'ikoranabuhanga wibereye mu rugo bikagusanga aho uri vuba cyane kandi byizewe.

Ikigo cyikorera cyitwa higo moto gitwara ibintu n'abantu akenshi iyo uguze ikintu ku ikoranabuhanga bakikugezaho utavuye mu rugo mu buryo bwizewe.

Iduka rikorera ku mbuga nkoranyambaga, ujya aho ushaka kugira icyo ugura kigahita kikugeraho vuba utavuye iwawe, bikugera ho vuba kandi byizewe.

Kampanyi yitwa vubavuba, ugura ikintu ku mbuga nkoranyambaga bakakikugezaho mugihe gitonya kandi gifite umutekano uhagije wacyo , birizewe.

Uburyo bwo kugura ibicuruzwa ukoresheje ikoranabuhanga, bikakugeraho bataguciye andi mafaranga, byihuse kandi vuba cyane.

Aho bagurisha amatike atandukanye yo mubitaramo, mu buryo bw'ikoranabuhanga ushobora kuyigura wibereye murugo ukazitabira ikirori wayibonye mu biganza.

Uburyo bwo gucuruza ibintu bigiye bitandukanye, ugahabwa igabanyirizwa bitewe n'ingano y'ibyo waguze uko bingana bigiye bitandukanye.

Uburyo bw'ikoranabuhanga ubonamo abo muhuje bizinesi mukora bakaba bagufasha mu bigiye bitandukanye mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Ikigo kikorera uguraho ibintu, ibiribwa, kikabikugezaho mu gihe kitarambiranye, utavuye murugo, udatirimutse na gato mu gihe kihuse.

Isoko ryo ku ikoranabuhanga baguriraho ibintu bigiye bitandukanye, mu biciro byo hanze bikaba byagusanga aho utuye, atari ngombwa kwigererayo.

Kampani yitwa vanuma, ugura ibintu ku buryo bw'ikoranabuhanga bakabikugezaho iwawe mu buryo bwihuse kandi bwizewe, cyujuje ubuziranenge, bifite intungamubiri.

Uburyo bwo kugura ibintu kw'ikoranabuhanga ugahitamo ibyo ushaka, mukumvikana igiciro, bakabizana aho uri utavuye iwanyu, bikakugeraho nk'uko wabitumye, bifite umutekano.

Uburyo bwo kugura cyangwa ugurisha, uburyo bw'ikoranabuhanga ushobora guhitamo igihugu uherereyemo ukaza ukagura ikintu kikazagusangayo mugihe kitarambiranye.

Uburyo bw'ikoranabuhanga, ugura ibicuruzwa, bikakugeraho ako kanya, uturiwe uva mu rugo. Birizewe kandi cyane.

Aho usanga bacuruza yahurute ikozwe mu mata nyarwanda y'umwimerere atagize ibintu biyavangiye, aryoshye, afite intungamubiri.

Aha aho usanga bacuruza ibiribwa bitandukanye, ushobora gusangamo ibitoki, imyumbati, baranguza cyangwa bacuruza buryo bwa kimwe kimwe.

Umureti uvanze n'amakaroni n'ibirayi bikaba bigira intunga mubiri zitandukanye, ushobora kuba wabirya mu gitondo cyangwa se andi masaha atandukanye ya manywa.

Ubucuruzi bukorerwa ku ikoranabuhanga, aho ugura ibintu wibereye mu rugo bikakugeraho utahavuye byizewe kandi byujuje ubuziranenge mu gihe kitarambiranye gitonya.

Uburyo bwo kubona ibicuruzwa onurayini mu buryo bw'ikoranabuhanga, ukaba wabigura, ukishyura, bikagusanga aho uri, mu gihe gito kandi byizewe.

Uburyo bw'ikoranabuhanga ugura ibintu mu masoko hirya no hino ukabyakira bikugeraho vubavuba aho uri bidatinze bakabikugezaho.

Inkweto uhagurira ku mbuga nkoranyambaga, zikaba zagusanga aho uri nta kindi kiguzi mu buryo bworoshye.

Ikigo kikorera cya vuba vuba ugura ibintu mu buryo bw'ikoranabuhanga igihe kitarambiranye bakaba bakugezeho mu buryo bwizewe kandi bunoze.

Ikigo kikorera kitwa jumiya fudu, kigemura ibiryo kubakiliya babo batandukanye bari hirya no hino mugihugu.

Ikigo kikorera kitwa isoko rigari kigemura ibicuruzwa ahantu hatandukanye mu gihugu byihuse kandi vuba kandi byizewe muri make.

Uburyo bw'ikoranabuhanga, ugura ikintu kuri mudasobwa yawe, ukagitegeka ko kikugeraho, bakakikugezaho mu buryo bwihuse kandi bworoshye.

Umunyegare uri ku igare, bigaragara ko ajyana ibintu hirya no hino bitandukanye, mu buryo bwo kubigeza kubabishaka mu ngo zabo.

Ikigo cyikorera cy'ikoranabuhanga aho ugura ibintu bikagusanga aho uri bitagusabye kugera aho babicururiza byizewe kandi bikugeraho mu buryo bukoroheye.

Kampani ya vubavuba igeza ibiryo, ibinyobwa ku babikeneye mu buryo bwihuse bwa vubavuba kandi bwizewe.

Uburyo bwo gutanga cyangwa kugemura ibintu ushobora kugura ku ikoranabuhanga, uburyo buzwi mu rurimi rw'amahanga nka onurayini, ukagenda ubigemura ku baturage batavuye aho bari.

Urubuga rw'ikoranabuhanga bacururizaho ibintu bitandukanye haba inkweto, imyenda, amaterefone n'ibindi n'amakanzu.

Kampani yitwa kigure ikorera ku mbugankoranyambaga, ushobora kuguriraho ikintu cyose ushaka bakakikugezaho mu buryo bwihuse kandi bwizewe vuba vuba.

Uburyo bwo ku ikoranabuhanga ugura ibintu bigiye bitandukanye biri mu ngeri nyinshi bikagusanga aho uri utavuye mu rugo byizewe kandi neza.

Uburyo bakoresha ikoranabuhanga batanga mu bintu bitandukanye, kampani zitandukanye zifasha abakiriya hirya no hino aho bari.

Uburyo bw'ikoranabuhanga ushyiramo imyirondoro uri kubaza gugu kugira ngo igusubize ibyo uyibajije mu buryo bw'ubucuruzi ukoramo cyangwa n'ibindi.

Ibigo bigiye bitandukanye byikorera, bitandukanye bicuruza ibintu bitandukanye ku buryo bw'ikoranabuhanga ubigura bikagisanga aho uri utiriwe ahava, mu gihe gitoya.

Ikigo kikorera kitwa kasha kigemura, ibicuruzwa, bitandukanye, hirya no hino ku bakiriya babyifuza batandukanye.

Uburyo bw'ikoranabuhanga waguramo ikintu kikagusanga aho uri bakagitegera, burizewe, kandi vuba cyane.

Uburyo bw'ibihugu bitandukanye ushobora gushyiramo imibare bitewe n'igihugu wifuza, ukagura ikintu muri icyo gihugu kikakugeraho bidatinze.

Ikigo cyikorera cyitwa vubavuba kigemurira ibicuruzwa abakiriya bari hirya no hino mu gihugu, kikaba kibibagezaho mu buryo bwizewe bworoshye batavuye aho bari vuba.

Ifiriti n'inkoko, umugati bigaragara ko ubigura ku buryo bw'ikoranabuhanga bakabikugezaho iwawe vuba kandi byizewe, utavuye mu rugo vuba vuba.

Kampani yitwa mo pesa, igufasha kwishyura amafaranga, bakaba baguha igabanyiriza bitewe n'ibintu wishyuye, cyangwa wakoresheje uyishyura. Wishyuriraho ibintu butandukanye, bakaguha igabanyirizwa ku giciro gitandukanye.

Kampani itunganya ibiryo yarangiza ikabishyira ababishaka babiguze ku buryo bw'ikoranabuhanga; ikabibagereza aho batuye bifite umutekano, byizewe, kandi ku gihe.

Uburyo bw'ubucuruzi bugura ibintu ku ikoranabuhanga bukabugeza ku mukiliya atavuye iwe mu rugo, bwizewe kandi bwujuje ubuziranenge.

Uburyo bwo kugura ibintu ku ikoranabuhanga bigiye bitandukanye waba uranguza waba ugura kimwe kimwe bakabigufashamo muburyo bwizewe kandi bunogeye rubanda.

Kmpani ya vuba vuba igemura ibyo abakiliya baba baguze ku mbuga nkoranyambaga ikabibagezaho kuburyo bwihuse mu buryo bwihuse kandi bufite umutekano burambye bwizewe vuba.

Bakwereka ko bizinesi uri kugerageza gukora atari yo, cyangwa se ugashyiramo amerekezo ya bizinesi ukora, mu buryo butandukanye, kandi ufite icyizere cy'uko ishobora gukora.

Uruganda rucuruza ibikoresho by'isuku bitandukanye, bikaba binabagezaho mu ngo zabo hirya no hino kandi vuba hakaba hariho na nimero wabakeneraho ubashatse.

Amandazi yitwa urwibutso akorwa na Sina Gerard akaba agurwa onorayini uburyo bw'ikoranabuhanga, ukaba wayagura akagusanga aho uri utahavuye.

Ahagurirwa ibicuruza bitandukanye, kampani yitwa Safi Rani ikabibagezaho mu buryo buboroheye, byihuse kandi byizewe, mu gihe gitonya.

Uburyo bw'ubucuruzi ku ikoranabuhanga ushobora kujyaho ukajya ucuruzaho ibintu byawe unabigura ukunguka, ukakira amafaranga, ukanayashora.

Kampani ifasha abaturage cyangwa abandi batandukanye kubagezaho ibyo batumye ako kanya babicishije ku buryo bw'amapikipiki.

Ahazwi nk'aho aho kurara cyangwa kubamo hakodeshwa igihe runaka, hazwi nka kabeza kugira ngo uruhukiremo mu gihe udafite kurara mu rugo.

Inzu iherereye mu mujyi wa Kigali ahazwi n'i kanombe, bigaragara ko iri ku isoko n'inzu ifite ubwiza buhebuje agaciro bayigeneye birakwiranye.

Inzu igurishwa iherereye Kimironko, aho yubatse neza yujuje ubuziranenge, amazi adapfa kuyihirika mu buryo bumwe cyangwa ubundi.

Ibigo byikorera aho uvuga umushinga ufite bakagufasha, ukareba ko wakwiteza imbere, ugateza n'igihugu cyakubyaye imbere mu byiciro bitandukanye.

Ahacururizwa ibiribwa bigiye bitandukanye mu ngeri nyinshi bifite uburyohe n'intungamubiri ku mubiri cyane cyane.

Ahacururizwa ibikoresho by'ikoranabuhanga, aho bacuruza mudasobwa, telefone zigendanwa, n'inindi bitandukanye bigendanye n'ikoranabuhanga, mu buryo bumwe cyangwa ubundi.

Ubucuruzi buzwiho nk'imigati aho uyigura, ukabasha kurya, ukagira intungamubiri ukagira imbaraga aho iribwa n'abana batonya, abakuze mu ngeri zose z'ahantu.

Inyubako iberamo ubucuruzi butandukanye aho haberamo ubucuruzi bw'imyenda ibikoresho byo mu nzu n'ibindi bitandukanye.

Ahabera ubucuruzi n'urujya n'uruza rw'abantu, aho bagenda bagura ibicuruzwa bigiye bitandukanye bakabasha kubibona bitanga imisoro ku gihugu kikiyubaka.

Ubwishingizi ikigo cyikorera, ejoheza aho bafasha abaturarwanda kwizigamira mu bwishi mu bwivuzi kugira ngo isaha n'isaha bazabagoboke bagifite imbaraga.

Ikarita izwi nka Mituelle de sante, aho yifashishwa ujya ku kigonderabuzima kugira ngo wivuze ubuzima bwawe bumere neza, mu buryo bumwe cyangwa ubundi.

Ikigo cy'ubwishingizi gifasha abaturage kugira ubuzima bwiza, babizigamira amafaranga yabavuza isaha n'isaha.

Ikigo nderabuzima, aho abaturage; rubanda rugufi, abisumbuyeho, bajya kwivuza, bagasuzuma ubuzima bwabo, ahantu buhagaze, basanga barwaye bagahabwa imiti.

Gahunda y'ubwizigamwe ubwishingizi yitwa ejo heza aho ifatanya na Mituelle de sante warwara bakakuvuza mu bihe bitandukanye by'ubuzima.

Ahacururizwa ibyo kurya bigiye bitandukanye harimo imigati amazi imitobe n'amata aho bigira intungamubiri nyinshi ku mubiri.

Irizwi nk'ifunguro ryitwa mayoneze ritunganywa n'uruganda rigashyirwa mu icupa, aho rikenerwa ku biryo kugira ngo biryohe kurushaho.

Ahakorerwa ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye: amavuta yo kwisiga, amasabune n'ibindi bitandukanye bisora imisoro ku gihugu, kugira ngo gitere imbere.

Ahazwi nko mu isoko aho hacururizwa ibintu bigiye bitandukanye harimo ibiribwa ibirayi, harimo ibinyobwa bitandukanye bigira intungamubiri ku mubiri.

Ubucuruzi bugiye butandukanye, harimo ibiribwa, ibitekwa n'ibinyobwa, byose bikaba bitanga imisoro ku gihugu kigomba ku kiyubaka, mu buryo bugiye butandukanye.